Ikigo cy'amashuri cya primeri. Kirimo ahantu baririra iminyenga, bazamuka abamanuka, ibyicundo, ku ruhande protayi, n'ikindi kimeze nk'indege, hasi hari ubwatsi bwa pasparume.

Abari n'abategarugori bafite imashini nyinshi , metero mu ijosi. Bari kudoda imyenda itandukanye. Bisa nkaho bari kubigisha.

Umwana w'umuhungu cyangwa se umugabo uri mu nzu. Isa nk'iri gukorerwamo ibintu bya elegitoroniki, cyangwa mekanike. Uri gukanika, ujya ukanika ibintu bya eregitoroniki.

Abanyeshuri benshi bicaye mu ishuri, bambaye iniforume y'umweru hejuru, buri munyeshuri agiye afite ikayi, bari gukurikira imbere abandi bamwe bakareba hanze.

Abanyeshuri bateraniye naba Cyanika tss biga eregitoronike tekinorogi, baje kuriteri barigutekinika ibintu, bose bambaye masike, bambaye imihondo hari n'abambaye imituku.

Inzu nini irimo abadozi. Bambaye amashati y'umweru, buri mudozi wese afite imashini ari kudoda. Inyuma hari umuntu usa nk'ubahagarariye wambaye agapira k'icyatsi. Umwe ari kudoda ikanzu ya Rondoni.

Abasore benshi bahagaze umwe ari gusetinga kamera, ari gukamera, abandi bari kumureberera bari kureba bari kwiga uko bakamera.

Abasore bari gukata ibyuma basudira. Ibi ni ibyuma bikorwamo inzugi, amadirishya, byegetse no ku ruhande.

Abanyeshuri benshi cyane, higanjemo abamama, harimo n'abakobwa, abamama bamwe bateruye abana, bose bambaye udupfukawa, buri wese n'imashini imbere ye, bigaragara ko bari kwiga kudoda.

Abanyeshuri benshi bicaye ku murongo, bambaye ingofero, bambaye amataburiya y'umweru n'ingofero z'umweru, bari kureba amabagiteriya ari hasi, inyuma y'aho hari utubati tugiye dufuganye n'akajerekani.

Abakobwa babiri bahagaze bambaye ibishati by'umukara, kuruhande inyuma hari umuntu w'umusore, umukobwa umwe yambaye inkweto zifunze z'umuhondo, imbere hari ibikoresho bya erekitoroniki bicometsemo ibitsinga byinshi, bameze nk'abategereje icyo babwirwa ubundi bagakora.

Abanyeshuri benshi bagiye kuri mashini rapga imashini bagaragiriwe n'umwarimu wabo ugen ra yerekera kuri we barakora ibintu nuko bikorwa.

Abanyeshuri benshi batandukanye bari kwiga kudoda bambaye inifurume nziza cyane, bicaye bose bafite metero abandi bafite imyenda bari kudoda. Abaririmu baberekeye bari kugenda bareba ibyo bari gukora.